Abantu bicaye hasi, umwe ari umugore uteze igitambaro mu mutwe, undi ari umuganga akaba, ari kumupima ku rutoki, hirya ye hari undi musore wambaye imyenda y'umweru, yambaye n'ikarita mu ijosi.

Abantu batatu bari ku iriba, babiri bari gukaraba, umwe ari kunywa amazi akoresheje ibiganza, undi ahagaze inyuma y'iriba, imbere y'iriba hakaba hari amajerekani abiri.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako, imbere yabo hakaba hari amajerekani menshi ari ku murongo, hakaba hari umugore uhagaze iruhande rw'iriba, akaba ari kubavomera.

Umugore wambaye agapfukamunwa, afite icyuma gipima ubushyuhe, imbere ye hahagaze umugore uteruye umwana, ku ruhande hari undi mugore wambaye ingofero, imbere yabo hakaba hari ikiyaga.

Abantu benshi bambaye imyenda y'ubururu bahagaze imbere y'ihema, hakaba hari n'uwicaye ku ntebe wabambaye ishati y'umweru, imbere yabo hari ibyatsi n'akayira gatoya.

Umusaza ugeze mu zabukuru, afite imisatsi yabaye umweru, yambaye ingofero n'ikote ry'umukara, iruhande rwe hakaba hari umugore wambaye igitambaro mu mutwe cy'umweru, akaba ari gupima umuvuduko uwo musaza.

Umugore wambaye isaha akaba afite indangururamajwi mu ntoki, inyuma ye hakaba hari icyapa kiri ku ibara ry'ubururu cyandikishije amagambo y'umweru, ku rundi ruhande hakaba hari ikindi cyapa.

Abantu benshi bicaye ku ntebe z'ibiti, hakaba harimo uwambaye imyenda y'icyatsi kibisi, y'abashinzwe umutekano, bamwe bakaba bafite amakayi mu ntoki, iruhande rwabo hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri.

Umuntu uri kuvoma amazi akoresheje ijerekani y'umuhondo, imbere ye hakaba hari akajerekani gatoya k'umweru, inyuma ye hakaba hari igihuru cyinshi.

Abana babiri bari kuvoma amazi ku iriba, bari kuvomera mu ndobo z'umweru, umwe yambaye ishati y'ubururu, undi yambaye agapira k'amaboko magufi, inyuma yaho hakaba hari ibiti.

Abantu benshi bicaye mu nzu, bakaba bicaye iruhande rw'ameza, kwayo meza hakaba hariho indabo z'imitako, hakaba hariho n'uducupa turimo amazi yo kunywa, bamwe bakaba bafite amakaramu mu nto.

Abana bane basutamye basetse, bakaba bari gukaraba intoki, munsi yabo hakaba hari ibasi, iruhande rwabo hari umuntu ufite igikombe, uri kubasukira amazi bagakaraba.

Abagore bicaye bateruye abana bakaba bambaye imyenda y'umweru, abana bambaye imyenda y'umuhondo, umwe imbere hahagaze umugabo wambaye umwenda w'umuhondo akaba afite inkongoro ari gusomya umwana.

Abantu bazamuye akaboko hejuru, bakaba bambaye imyenda isa y'ubururu yanditseho amagambo ku gatuza, inyuma yabo hakaba hari icyapa, bakaba bambaye n'ingofero z'umweru.

Abagore batatu bicaye mu nzu, imbere yabo hari ameza ariho ibitabo byinshi, umwe akaba yicaye yambaye imyenda y'umweru, undi yambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, afite ikaramu ari kwandika.

Umugabo n'umwana basuhuzanije mu biganza, umugabo akaba yambaye umupira w'umuhondo, umwana akaba ahagaze imbere ye, iruhande rwabo hakaba hari urukiramende, ku rundi ruhande hakaba hicaye abantu benshi.

Abana benshi bambaye imyenda isa, bakaba bafite ibikombe bari kuvoma amazi yo kunywa, imbere yabo hakaba hari icyo bari gukuramo amazi, munsi y'icyo hakaba harimo udukombe dufite ibara ry'umuhondo.

Abana benshi bari koga mu mugezi urimo amazi menshi, umwe akaba yarambuye amaboko undi yayahiniye munsi y'akananwa, hakaba hari uri kugenda akubita amazi.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, bakaba bafite amakayi n'amakaramu, hakaba harimo abagabo n'abagore, abagabo bamwe bakaba bambaye amakoti n'amashati y'imyeru, bose bakaba bari mu nzu.

Umwana uri kuvoma amazi kuri robine, izo robine zikaba ari ebyiri ziri kuzana amazi, umwana akaba yambaye agapira k'umuhondo, hirya ye hakaba hari ibyatsi.

Abantu benshi bicaye hasi hakaba hari n'abahagaze, imbere yabo hakaba hari ihema imbere y'ihema hakaba hari inzu isakajwe n'amabati atukura, imbere y'iyo nzu hakaba hari ibendera.

Abantu benshi bicaye mu nzu imbere yabo hakaba hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, ku ayo meza hakaba hariho mudasobwa, hirya yaho hakaba hari andi meza ateretseho uducupa turimo amazi yo kunywa.

Umugabo uri guseka wambaye ishati ifite amaboko magufi, akaba yicaye ku ijerekani iruhande rw'iriba, inyuma ye hakaba hari ibyatsi byinshi, hakaba hari n'inyubako.

Umugore uteruye umwana imbere ye hakaba hahagaze umugabo wambaye umwenda w'ubururu, imbere yabo hejuru hakaba hari umunzani upima ibiro, uwo mugore akaba yambaye imyenda ikoze mu bitenge.

Abantu benshi bahagaze, inyuma yabo hakaba hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo y'umweru, bakaba bari mu nzu, hakaba harimo abagabo bambaye amakote, harimo n'abagore bambaye amakanzu.

Abana bicaye mu ishuri, imbere yabo ku ntebe hariho ibiryo, hariho kawunga n'ibishyimbo biri ku isahane, abo bana bamwe bakaba bambaye imyenda y'ubururu, abandi bambaye kaki.

Abagore benshi bari mu nzu, kuri iyo nzu ku rukuta hakaba hariho ibishushanyo bitandukanye, haariho inzu, hariho n'igishushanyo cy'umuntu abo bagore bamwe bakaba bambaye imyenda ikozwe mu bitenge.

Abantu babiri bari kuvoma ku iriba, bafite amajerekani, inyuma y'iriba hakaba hahagaze umugore wambaye umwenda w'umuhondo, mo mbere harimo umupira w'umweru.

Umugore ufite imisatsi miremire, yambaye agapfukamunwa n'umupira w'umweru, akaba yamanuye agapira ku rutugu, bari kumutera urushinge, uri kumutera urushinge akaba yambaye agapfukamunwa.

Umugore wicaye yambaye agapfukamunwa k'umukara n'ingofero n'umupira w'umukara, bakaba bari kumutera urushinge, uri kumutera urushinge akaba yambaye agapfukamunwa k'ubururu n'imyenda y'ubururu.

Umugabo wambaye imyenda y'ubururu n'ingofero y'ubururu n'agapfukamunwa k'umweru, afite ijerekani ari kuyikorera umwana uri iruhande rwe, imbere ye hari umukobwa ufite telefone ari kubafotora.

Agatara bamanikaho ibikoresho byo mu gikoni, hakaba hariho amasahani atandukanye harimo ay'ubururu n'ay'umweru, iruhande rwaho hakaba hari insina, urugo rukaba rwubakishijwe n'imiyenzi.

Umugore uteruye umwana, uwo mugore akaba yambaye imyenda idozwe mu bitenge, iruhande rwe hakaba hari umuganga wambaye imyenda y'umweru uri gupfuka uwo mwana ku mutwe.

Umugore wakenyeye igitenge akaba yambaye urunigi mu ijosi, akaba yambaye n'amarori, inyuma ye hakaba hahagaze abana benshi, hakaba harimo abambaye amashati atukura.

Abantu benshi bahagaze iruhande rw'iriba, ku iryo riba hakaba ari umwana uri kuvoma akoresheje akajerekani, iruhande rw'iryo riba hakaba hari undi mwana uri gupomba amazi akaza.

Abagore benshi bateruye abana, bakaba bicaye iruhande rw'inyubako yubakishijwe n'amatafari, umwe muri bo umwana we akaba yambaye imyenda y'umweru.

Umwana uri ku iriba akaba ari kuvoma amazi, akaba afite ijerekani eshatu z'umuhondo, hirya ye hakaba hari ibyatsi hakaba hari n'urutoki.

Abantu benshi bahagaze, bamwe bakaba bafite ibyapa mu ntoki by'umweru byanditseho amagambo, hakaba hari abagore bambaye ibitambaro mu mutwe, hari n'abagabo bambaye ingofero.

Abantu benshi bicaye mu nzu, hakaba hari abateruye abana. Imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umweru n'inkweto z'umweru. Hakaba hari n'ibikapu birimo aho mu nzu.

Abana benshi bicaye bambaye imipira y'umuhondo, bafite inkongoro zirimo amata bari kuyanywa, iruhande rwabo hari abantu basutamye, hari uwambaye ingofero.

Abantu batatu bari mu cyumba, babiri bakaba bambaye imyenda ibapfutse hose, bambaye n'amarori, iruhande rwabo hakaba hicaye umugore bari kumupima ku kaboko...

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako ebyiri, bamwe bakaba bambaye imyenda y'umweru, hari n'abandi babiri bambaye imyenda y'ubururu bahagaze iruhande rw'icyapa.

Umwana wasetse ufite ibirahure bibiri birimo amazi mu ntoki, wambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu, inyuma ye hakaba hari ikiziba, hirya ye hakaba hahagaze abandi bana.

Abantu batatu bicaye bambaye udupfukamunwa, umwe muri bo akaba yambaye igitambaro mu mutwe, iruhande hakaba hari igikapu, umwe akaba afite igitabo mu ntoki.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, wicaye hasi iruhande rwe hari abana benshi bahicaye, bamwe bakaba bambaye amashati y'ubururu, abandi bakaba bifashe ku itama.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako bambaye imipira y'ubururu; hagati yabo harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, kuruhande hari umugore wambaye ikote, imbere yabo hasi hakaba hubakishijwe n'amakaro.

Umuntu uhagaze iruhande rw'umuhanda wambaye imyenda ishaje yacitse cyane, akaba afite imyanda mu ntoki, afite ibisatsi bibi, inyuma ye hakaba haryamye umuntu mu gisambu, iruhande rwe hari ibiti byinshi.

Abantu benshi bahagaze imbere y'icyapa, bamwe muri bo bakaba bafite ibyapa mu ntoki, hakaba hari abambaye imyenda y'umweru n'amapantaro y'umukara, hakaba hari n'uwambaye ikabutura y'ubururu.

Abantu benshi bahagaze imbere y'urukuta ruriho ibirango, muri abo bantu abenshi bakaba bambaye imyenda y'abashinzwe umutekano, hakaba harimo uwambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umweru.

Umugore uhagaze wambaye amarori n'amaherena ku matwi, wambaye ishati y'ubururu n'isaha ku kaboko; imbere ye hakaba hari indangururamajwi ebyiri.

Umugabo wambaye imyanda myinshi n'ibirinete by'imyanda akaba ahagaze iruhande rw'ikimoteri kirimo imyanda myinshi cyane, harimo ibipine by'imodoka...

Abantu benshi bahagaze imbere y'inzu bambaye imipira y'ubururu, harimo umwe wambaye ishati y'umweru, hasi hakaba hubakishijwe n'amakaro, ku ruhande hakaba hari umugore wambaye ikoti.

Abantu bicaye ku ntebe, babiri bafite amakayi n'amakaramu, umwe muri bo akaba yambaye ikarita mu ntoki, bamwe bakaba ari abagore batatu undi ari umugabo.

Umwana wicaye ku ntebe akaba yambaye ishati y'umweru, imbere ye hari ameza akaba afite biswi mu ntoki ari kuyirya, inyuma ye hakaba hari umugore wambaye imyenda ikozwe mu bitenge.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi n'isaha ku kaboko akaba ahetse igikapu ahagaze imbere y'urugo, ku urwo rugo hakaba hari icyapa kiriho...

Abantu babiri bicaye, umwe yambaye ingofero n'umwenda utukura, imbere ye uhicaye akaba yambaye amarori n'imyenda y'umukara, akaba afite umusatsi mugufiya.

Umugabo uri kurira amarira yashotse, akaba yazanye n'ibimwira mu mazuru, akaba yambaye umwenda w'icyatsi kibisi, amaso ye akaba yatukuye cyane.

Umugore ukuze wambaye umutako mu ijosi, akaba yambaye imyenda ikozwe mu bitenge, akaba ari mu nzu mo imbere, inyuma ye hakaba hari ibicuruzwa byinshi bitandukanye.

Abagore batatu bafite inkoni, bambaye ibitenge n'ibitambaro mu mutwe, umwe muri bo akaba ateruye umwana arimo kumwonsa, inyuma yabo hakaba hari ibyatsi n'ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe zikoze ishusho y'uruziga mo hagati yabo hakaba hahagazemo abandi bantu, harimo abagore, harimo n'umugabo, abagore bakaba bambaye ibitambaro mu mutwe.

Abantu benshi bazamuye ibendera ry'igihugu hejuru, hakaba harimo umwana wasetse, yambaye umupira w'ubururu, inyuma ye hakaba harimo umugabo wambaye ingofero.

Umugore ufite imisatsi myinshi wambaye umwenda w'umweru, akaba ateruye umwana, uwo mwana akaba yambaye imyenda y'umweru ifiteho akabara, bakaba bahagaze imbere y'inzu.

Umuntu wambaye imyenda yashaje icitse akaba ahetse igifuka kirimo imyanda, mu maso ye hakaba harabaye umukara, inyuma ye hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri.

Umugabo wambaye ubusa akaba afite ubwanwa bwinshi n'amenyo y'umweru, akaba yasetse afite mu ntoki urudodo akaba ashaka kwikura iryinyo.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi, akaba yasamye yashyize agakoresho mu menyo, ashaka kwikura amenyo, akaba yambaye ubusa hasi.

Umugore ufite imisatsi miremire wambaye isengeri yasamye, imbere ye hari umuganga uri kumupima mu kanwa, uwo muganga wambaye imyenda y'umweru n'agapfukamunwa k'umweru.

Abana benshi bahagaze bafite uburoso bari koza amenyo, bakaba bafite n'udukombe mu ntoki turimo amazi bari gukoresha, bakaba bambaye imyenda isa.

Umwana wasamishijwe amenyo ari kugaragara, iruhande rwe hakaba hari ibiganza by'umuntu birikumwasamisha umunwa, akaba aryamye ku gitanda cy'umutuku.

Umusore wambaye umwenda w'umweru, akaba yasetse, yarogoshe ubwanwa n'imisatsi ye iboshye, akaba ari kwireba mu kirahure afite urudodo mu ntoki.

Umugabo ufite ubwanwa bwinshi akaba yasetse, akaba yambaye impeta ku zuru, akaba yambaye n'amarori, akaba yambaye n'umupira w'umweru.

Umusaza ugeze mu zabukuru, wambaye agapira k'umweru n'amarori, ari kumwe n'umusore wambaye ishati y'amaboko maremare, bakaba bafite igitabo bari gusoma, imbere yabo ku meza hakaba hari ibikombe bibiri.

Abagore benshi bari gusoroma icyayi, iruhande rwabo hari igitebo bari gushyiramo icyayi, umwe akaba yambaye imyenda y'ubururu, undi akaba yateze igitambaro mu mutwe.

Abagabo babiri bari muri siporo bogoshe imisatsi, bakaba bambaye imyenda yo hejuru y'umweru, bakaba bafite uducupa tw'amazi mu ntoki, hirya yabo hakaba hari ibiti.

Abantu benshi bicaye mu ihema, hakaba hari n'undi uhagaze wambaye imyenda y'umukara, mu abo bicaye hakaba hari uri kuvugira kuri terefone, imbere ye hari uwambaye ingofero y'umweru.

Abantu batatu bicaye, babiri bafite amakarita bari gukina, umwe ari umukecuru ugeze mu za bukuru imisatsi yarabaye umweru, undi ari umugore muto wambaye umupira utukura.

Umusaza n'umukecuru bageze mu zabukuru, bicaye imbere yabo ku meza hariho isahane iriho ibiryo, hakaba hariho n'ikirahure kirimo amazi yo kunywa, iruhande rw'umusaza hakaba hari umugabo uhari wambaye ikarita mu ijosi.

Abantu benshi bicaye mu ntebe, harimo umusaza ugeze mu zabukuru, n'abana babiri n'umukecuru wambaye umwenda w'umuhondo, ku rundi ruhande hari umugabo wambaye isaha ku kaboko...

Umusaza ugeze mu zabukuru, imisatsi yarabaye umweru, akaba yicaye imbere y'umuryango yambaye ishati y'umweru, ku ruhande rwe hakaba hicaye abana bato babiri.

Abagore benshi bari kubyina bamwe bakaba bambaye amajipo y'umukara n'imipira y'umweru, imbere yabo hakaba hari uteze igitambaro yambaye n'ikanzu idozwe mu bitenge.

Umukecuru ugeze mu zabukuru, wambaye amaherena, imisatsi yarabaye umweru, bari kumukoresha siporo ateruye icyuma, uri kumukoresha siporo akaba ari umukobwa uhagaze iruhande rwe.

Umusaza ugeze mu zabukuru imisatsi yarabaye umweru, akaba yambaye amarore, ari gukora siporo yateruye ibyuma, akaba yambaye agapira k'umweru.

Umugabo wicaye ari guseka, akaba yambaye umupira ufite ikora ry'ubururu, akaba ari gukina igisoro kiri imbere ye, imbere hakaba hari undi mugabo wambaye umwenda w'umweru.

Abantu batatu b'abagore bageze mu zabukuru imisatsi yarabaye umweru, umwe muri bo akaba afite terefone mu ntoki y'umukara, umwe akaba yambaye umwenda w'umuhondo, abandi babiri bambaye imyenda y'umweru.

Abantu babiri bari kumanuka, umwe ari umusaza ugeze mu zabukuru yambaye amarori, undi ari umugore ufite imisatsi miremire, uwo musaza akaba yambaye ishati y'ubururu ifite amaboko maremare, akaba yambaye n'isaha.

Umusaza ugeze mu zabukuru imisatsi ari umukara n'umweru, afashe umukobwa ku rutugu, umukobwa akaba yambaye amarori, yambaye n'ikote ry'ubururu.

Abantu benshi bahagaze bari gukoma amashyi, umwe muri bo akaba afite igare ry'abamugaye, inyuma yabo hakaba hari ihema ririho ibirango by'ibendera ry'igihugu.

Umuntu ugeze mu zabukuru wambaye umwenda w'ikigina, akaba afite igipimo gipima umuvuduko w'amaraso acyambaye ku kaboko, imbere ye hakaba hari ameza,..

Umusaza ugeze mu zabukuru imisatsi yarabaye umweru n'ubwanwa bw'umweru, akaba yicaye afite igitabo mu ntoki n'ikaramu akaba yambaye ishati y'umuhondo.

Abagore benshi bageze mu zabukuru, bamwe imisatsi yarabaye umweru, abandi bambaye ibitambaro mu mutwe, bakaba bicaye hasi, hakaba hari n'uwicaye ku ntebe inyuma z'umweru.

Abantu babiri bari kugenda mu gahanda gatoya, umwe ari umusaza ugeze mu zabukuru, akaba yambaye ingofero, yambaye n'isaha ku kaboko, undi akaba ari umugabo wambaye agapira k'ubururu.

Umugabo ugeze mu za bukuru hari abantu babiri iruhande rwe bari kumuhagurutsa, inyuma ye hari igitanda kiriho ibitambaro by'umweru, umwe akaba yambaye ishati y'umweru.

Abantu babiri bageze mu zabukuru, imisatsi yarabaye umweru, bakaba bicaye, iruhande rwabo hari ameza ariho ibyo kurya, umwe akaba ari kwarura afite isahani n'ikiyiko.

Umuntu ugeze mu zabukuru afite isahani iriho ibiryo, afite n'ifurusheti mu ntoki, akaba yambaye umwenda w'umweru, imisatsi ye yarabaye umweru.

Abantu benshi bicaye ku ntebe, imbere yabo hari umuntu wambaye agapfukamunwa n'ikirahure mu maso yipfutse n'intoki, akaba afite ikaramu mu ntoki, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye agapfukamunwa k'umweru.

Abantu bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere yabo ku meza hakaba hari mudasobwa iri kwaka, imbere yabo hakaba hahagaze umugabo wambaye ikoti ufite indangururamajwi mu ntoki.

Abantu benshi bahagaze, imbere yabo hari abicaye bakaba bari mu nzu, inyuma yabo hakaba hari icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi n'umweru, hakaba hari n'amabendera abiri ari inyuma y'abo bantu.

Abagore bane bahagaze, harimo uwambaye umwenda utukura, abandi babiri ari ubururu undi ari ukozwe mu gitenge, umwe akaba yarakutse iryinyo ry'imbere, inyuma yabo hakaba hari ibiti.

Umuntu uryamye hasi ku gatanda batwaraho abarwayi, bakaba ari mu kibuga, iruhande rwe hari abaganga, hari abambaye imyenda y'umweru n'abambaye utwenda tw'icyatsi kibisi.

Abantu benshi bicaye, imbere yabo hari abandi babiri bicaye, imbere ku meza hari indangururamajwi, hari na mudasobwa, hari n'uducupa turimo amazi yo kunywa.

Icyumba kinini kirimo ibitanda, hakaba harimo imashini zipima umutima, mu icyo cyumba hasi hakaba hubakishijwe n'amakaro, idirishya rikaba riri ari ikirahure.

Icyumba kinini kirimo igitanda, kiriho ibishashe birimo imyunyungugu, ku rukuta hakaba hariho umutako mw'iyo nzu hakaba harimo ibyuma bipima umutima.

Iduka ricuruza amarori, hakaba harimo amarori menshi, hejuru yayo hakaba hari amakarito atandukanye, mu iryo duka hakaba harimo amatara ari kwaka, hakaba hari na kamera.

Abantu benshi batonze umurongo bakaba bari mu nzu, imbere yabo hakaba hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, hakaba hari umuntu wicaye mu igare ry'abamugaye.

Abantu bahagaze mu ishuri, inyuma yaho hari ikibaho, ku kibaho hakaba handitseho ngo icyandikwa, aba bantu hakaba harimo umwe wambaye imyenda y'umweru, afashe umwana ku rutugu, umwana akaba afite urwasaya mu ntoki.

Inyubako ndende igeretse, iyo nyubako ku rugi hakaba hariho ibishushanyo bitandukanye, mo imbere hakaba harimo akabati karimo ibicuruzwa, amatara mo imbere akaba ari kwaka.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako, hakaba hari n'abasutamye imbere yabo, abenshi bakaba bambaye amakarita mu ijosi, iyo nyubako ikaba yanditseho hejuru ngo: "Inzu y'ababyeyi".

Ubusitani burimo indabo n'ibyatsi bitandukanye hakaba harimo akayira kubakikije n'amatafari, hirya hakaba hari inzu yubakishije n'amatafari, isakajwe n'amabati, iruhande rwaho hakaba hari ibigega.

Umuntu wicaye ku gitanda kwa muganga, akaba yambaye igitambaro cy'umukara mu mutwe, akaba yiyoroshe ku maguru, iruhande rwe hakaba hahagaze umuganga wambaye imyenda y'umweru, afite igikoresho mu ntoki cyumviriza umutima.

Umuntu uryamye ku gitanda kwa muganga, iruhande rwe hari umuganga uri kumutera urushinge ku kaboko, uwo muntu akaba yambaye agapfukamunwa k'umukara n'ingofero y'umukara.

Abantu bahagaze imbere y'inyubako bambaye amashati y'umweru, bakaba bafite udukapu mu ntoki, umwe akaba yambaye ipantaro y'ubururu undi yambaye ipantaro y'umukara.

Umukobwa ufite imisatsi migufi, wambaye umwenda w'umweru ufite akabara k'ubururu, iruhande rwe hakaba hari umuntu uryamye ku gitanda, akaba afite igikoresho cyumviriza, akaba yashyize ku gutwi

Abantu benshi bicaye mu nzu, imbere yabo hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umweru n'ipantaro itukura, yambaye n'agapfukamunwa muri abo bicaye, hakaba hari uwambaye ikanzu itukura.

Inzu ifite idirishya ry'ikirahure, imbere y'iyo nzu hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umweru wambaye n'agapfukamunwa, imbere ye hakaba hari inkingi iriho icyapa.

Inyubako ndende igeretse, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibinyabiziga by'imitende ibiri bihahagaze, hakaba hari ibifite ibara ry'umukara n'ibifite ibara ry'umweru, hagati yabyo hakaba hahagazemo umugabo.

Abantu benshi bahagaze imbere y'inyubako harimo abambaye imipira y'icyatsi kibisi, iruhande rw'iyo nyubako hakaba hari ihema muri iryo hema hakaba hari abantu bicayemo.

Umuntu wicaye ku kinyabiziga cy'umutende umwe yambaye ingofero, akaba ahagaze imbere y'inyubako, kuruhande rwe hakaba hahagaze undi muntu wambaye umupira w'umweru.

Urugo runini rwubakishijwe n'ibyuma n'amatafari. Hakaba hariho icyapa kiri iruhande rw'urwo rugo cyanditseho ngo ibitaro bya Ruhengeri. Ku ruhande hakaba hari abantu benshi bari kugenda.

Umuntu wambaye imyenda y'umweru yipfutse umubiri wose, akaba ari gutera umuti hasi, iruhande rwe hakaba hari indobo y'icyatsi kibisi, akaba ahagaze imbere y'inyubako.

Inyubako ndende iriho icyapa kimanitseho hejuru, kuri iyo nyubako imbere y'umuryango hakaba hahagaze abantu benshi, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ibinyabiziga by'imitende ibiri bitandukanye.

Abantu babiri bicaye umwe afite ikaye mu ntoki, imbere ye hari mudasobwa, undi yicaye imbere ye, yambaye igitambaro mu mutwe yaziritse imisatsi, inyuma yabo hahagaze undi wambaye imyenda y'ubururu.

Icyumba kinini kirimo igitanda, kirambuyeho igitambaro cy'umweru, hakaba harimo televiziyo, ku ruhande hari aho bakorera siporo, muri icyo cyumba ku rukuta hakaba hariho ibara ry'umweru.

Icyumba kinini kirimo amatara menshi ari kwaka, hakaba harimo ibitanda bigabanijemo kabiri byinshi, hakaba harimo n'inzitiramibu, hakaba harimo n'abantu bari muri iyo nzu.

Icyumba kinini kirimo ibitanda, hakaba harimo umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'ipantaro y'umukara, uri kuzinga inzitiramibu y'ubururu, hakaba hari undi uryamye ku gitanda.

Icyumba kinini kirimo ibitanda bitandukanye kikaba ari icyo kwa muganga, ku ruhande hakaba hari imashini zipima umutima mu icyo cyumba ku rukuta hakaba hariho televiziyo.

Inyubako ndende igeretse hejuru, ahenshi hubakishijwe n'ibirahure, imbere y'iyo nyubako hakaba hari ikinyabiziga cy'imitende ibiri kihahagaze, ku ruhande hakaba hari indabyo nyinshi z'imitako.

Urugo runini, ku muryango hejuru y'urugo hakaba handitseho Kabgayi, mo imbere hakaba hari umunyonzi utwaye igare, hari n'amatara yo ku muhanda, ku ruhande hakaba hari ibiti.

Icyumba kinini kirimo aho bakarabira, hakaba harimo igitanda cy'abana, hakaba iruhande rw'icyo gitanda hari intebe y'umweru, ikaba ifite idirishya ry'kirahure.

Inyubako nini igeretse rimwe ikaba isize irange ry'umweru, imbere y'iyo nyubako hakaba hari urugo rwubakishijwe n'ibyuma, iruhande rw'urwo rugo hakaba hari icyapa kinini.

Abagore batatu bambaye imyenda isa n'udupfukamunwa, babiri bakaba bambaye amakarita mu ijosi, bakaba bahagaze imbere y'inyubako ndende igeretse, ku iyo nyubako hakaba banditseho ngo: Inzu y'ababyeyi.

Inyubako yubakishije n'amatafari imbere y'iyo nyubako hakaba hari ubusitani burimo indabo zitandukanye, hagati y'ubwo busitani hakaba harimo umuhanda hepfo y'iyo nyubako hakaba hari indi nyubako.

Inzu nini isize irangi ry'umweru isakajwe n'amabati y'ubururu, imbere y'iyo nzu hakaba hari umurasire, ku rundi ruhande hakaba hari ibiti birebire kuri iyo nzu hakaba handitseho ngo "inzu y'ababyeyi".

Abantu babiri bicaye, umwe ari umukecuru undi ari umugabo, uwo mukecuru akaba yambaye imyenda ikozwe mu gitenge, akaba yambaye igitambaro mu mutwe, uwo mugabo akaba yambaye imyenda y'ubururu.

Icyumba kinini kirimo imashini zipima mu bice by'umubiri w'umuntu byo mu imbere, muri icyo cyumba hakaba harimo amatara ari kwaka, ku rukuta hakaba hari imitako imanitseho.

Abantu benshi bambaye imyenda y'umweru, umwe yicaye undi ahagaze afite ikaramu mu ntoki, undi ari gusuzuma umugabo wicaye imbere ye yambaye amarori, imbere yabo ku meza hakaba harambuyeho igitambaro cy'umweru.

Umugore uri kugenda mu nzu wambaye imyenda y'ubururu, imisatsi yayizinze, imbere ye hakaba hari abandi bahahagaze, mu iyo nzu ikaba irimo amatara ari kwaka.

Inzu ndende igeretse, imbere y'iyo nzu hakaba hari ibinyabiziga by'imitende ibiri bihahagaze by'umukara; ku ruhande hakaba hari umutaka, muri uwo mutaka hakaba harimo umuntu urimo.

Abantu benshi bicaye mu nzu bakaba bafite uducupa tw'amazi baduteretse hasi, bamwe bakaba bambaye imyenda y'imuhondo abandi ari icyatsi kibisi, muri iyo nzu hakaba harimo amatara.

Inyubako nyinshi zimwe amatara ari kwaka indi azimije, ifite amabati atukura, imbere y'izo nyubako hakaba hari ubusitani zimwe mu izo nyubako hakaba hahagaze abantu.

Amarembo manini hejuru handitseho ku marembo Kabgayi, mo imbere hakaba hari amatara yo ku muhanda, hari n'umuyonzi utwaye igare, hakaba hahagaze abandi bantu bambaye imyenda y'ubururu.

Umukobwa wari uri muri siporo, wambaye agapira k'umutuku, yambaye n'igipima umuvuduko w'amaraso ku kaboko, afite imisatsi miremire, ufite agacupa k'amazi ari kuyanywa.

Ameza ariho ibyokurya bitandukanye, biri ku masahane, hakaba harimo imbuto, harimo n'amagi, mu izo mbuto hakaba harimo imineke, harimo n'inkeri, ku ruhande rwaho hakaba hari ibikoresho bifashisha muri siporo.

Abantu benshi bahagaze, bakaba bambaye amashashi y'ingofero, bambaye n'udupfukamunwa, hakaba hari n'abandi bicaye, bose bakaba bari kureba tereviziyo imanitse ku rukuta, imbere yabo hakaba hari ameza ariho mudasobwa.

Umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'ubururu n'umukara n'umweru uri gukora siporo, iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye imyenda y'umweru, ari kumufasha gukora siporo.

Abana benshi bari kubyina barimo abambaye amasengeri y'umweru n'ikabutura z'umukara inyuma kuruhande hahagaze abantu benshi harimo n'uwitwikiriye umutaka.

Umuntu uri gukora siporo yapfukamishije ivi rimwe, ari guterura ibyuma bibiri, yambaye agapira k'ubururu, iruhande rwe hahagaze undi mugabo uri kumwereka uko baterura ibyuma.

Umugabo ufite agacupa k'amazi yagafashe mu kaboko ari kuyanywa, akaba afite ubwanwa bukeya n'umusatsi muke, akaba yambaye agapira k'amaboko magufi.

Umusore uri gukora siporo, akaba yarambuye akaguru yakarambitse ku rugo rw'ibiti, akaba yambaye ikabutura y'umukara n'isengeri y'umukara, akaba yambaye isaha ku kaboko.

Umusore ufite agacupa karimo amazi ari kuyimenaho mu maso, akaba yambaye agapira k'icyatsi kibisi, akaba yambaye n'agakomo ku kaboko.

Igikapu kinini cy'umutuku gifite ibara ry'umukara, iruhande rwacyo hakaba hari ikindi gikapu cy'umutuku gifunguye kirimo imikasi itandukanye, ku rundi ruhande hakaba hari ikindi gikapu.

Umuntu w'umusore uri kunywa amazi, akaba yasamye ari gusuka amazi mu kanwa, akaba yambaye isengeri y'icyatsi kibisi, hirya ye hakaba hari inyubako.

Umuntu uri gukora siporo, akaguru kamwe yagashyize inyuma, akandi kari imbere, akaba afite imisatsi myinshi izinze, yambaye ibikomo byinshi ku maboko, akaba yambaye umupira w'umukara, n'amasogisi y'umukara.

Umuntu uri gukora siporo ari gukurura akaguru, akaba yambaye impeta, yambaye n'agakomo ku kaboko, akaba yambaye umupira w'umweru, akaba ari gushinyiriza.

Umuntu wifashe ku mutwe ari gukora siporo yambaye isaha, akaba afite umusatsi muke, yambaye isengeri y'umweru, imbere ye hakaba hari ibyatsi.

Ibinini bitandukanye, harimo ibinini n'ibitoya, hakaba hari ibifite ibara ry'umweru n'iry'umuhondo, hakaba hari n'ibiri mu masashe, iruhande rwabyo hakaba hari urushinge runini.

Ameza ariho imbuto zitandukanye, harimo imineke, harimo indimu, harimo n'inanasi, ku rundi ruhande hakaba hariho imiti itandukanye y'ibinini, hakaba hariho n'imidari.

Umuntu uri gukora siporo mu nzu, akaba yarambuye akaguru kamwe, akandi yagahinnye agafatishije amaboko, aryamye hasi, iyo nzu ikaba ifite idirishya ry'ikirahure.

Igikapu cy'umutuku gifite imifuka myinshi, hakaba harimo ibintu bitandukanye, harimo umukasi, harimo amacupa, hakaba hari ibindi biri mu makarito, icyo gikapu kikaba gifite ibara ry'umutuku.

Ikirahure giteretse hasi kiri gusukwamo amazi akaba ageze mu ndiba, iruhande rwacyo hakaba hari icupa ririmo amazi bari gusuka mu icyo kirahure, iryo cupa rikaba ari irya purasitiki.

Umugabo wicaye afite agacupa karimo amazi ari kuyanywa, wambaye isengeri y'umukara akaba yambaye agakomo k'icyatsi kibisi ku kaboko akaba yegamye ku nkingi.

Umugabo ufite ubwanwa buke, akaba yicaye afite agacupa karimo amazi, agafashe mu ntoki ari kuyanywa, akaba afite umutako ku kaboko w'icyatsi kibisi.

Abantu babiri bambaye udukote tw'imituku n'umupira w'umweru bateruye undi muntu wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'umuhondo. Inyuma yabo hakaba hahagaze abandi bantu benshi.

Umuntu uri gukora siporo, akaba ari umukobwa yambaye ipantaro y'umukara, akaba afite imisatsi miremire, akaba ari kuzikorera mu nzu, hirya ye hakaba hari indabo z'umutako.

Umugabo wicaye yambaye ishati y'amaboko maremare imbere ye kaba hari akabati, hejuru y'akabati hateretseho mudasobwa, iyo mudasobwa ikaba iri kwaka uwo mugabo akaba yicaye mu nzu.

Umusore wambaye agapira k'amaboko magufi, ufite umusatsi mukeya n'ubwanwa buke, akaba afite agacupa mu ntoki karimo amazi yo kunywa, akaba ari ku yanywa.

Ibyo kurya bitandukanye, harimo imbuto n'imboga, hakaba hari n'icyuma bifashisha bakora siporo, hakaba hari n'agacupa kaba karimo amazi yo kunywa, muri izo mboga hakaba harimo iz'icyatsi kibisi, harimo n'imbuto zitukura.

Ikinyabiziga cy'imitende ibiri, kiri mu muhanda wa kaburimbo, kikaba gifite ipine ry'inyuma riri ku rugi, imbere yaho hakaba hari umuhanda, ku ruhande rw'umuhanda hubakishijwe, n'amabuye.

Umusore ufite umusatsi mukeya, wambaye agapira k'umweru, afite agacupa k'amazi yagateretse ku munwa ari kunywa, akaba yambaye agakomo ku kaboko, akaba afite ubwanwa buke.

Umuntu uri gukora siporo, akaba yarambuye akaguru n'akandi yagahinnye amaboko yayakojeje ku kaguru kamwe, akaba yambaye ipantaro y'umukara, akaba yambaye n'agasengeri k'umukara.

Umuntu wicaye ku gitanda, yambaye imyenda y'umukara, iruhande rwe hari umuganga uri kumupfuka ku kaguru, uwo muganga akaba yambaye imyenda y'ubururu, uwo muntu akaba yambaye urukweto rumwe.

Umugore ufite imisatsi miremire, wambaye isengeri y'ubururu, akaba afite agacupa k'amazi, akaba yagateretse ku munwa ari kunywa amazi, hirya ye hakaba hari ikiyaga.

Umuntu uri gukora siporo wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, akaba ari umugabo ufite imisatsi miremire n'ubwanwa bwinshi, akaba yarambuye igitambaro hasi.

Umuntu uri gukora siporo akaba yafashe akaboko akakanyuza mu bitugu, akandi akakifashisha ku nkokora, akaba afite umusatsi mwinshi, akaba yambaye isengeri y'umukara.

Imipira yo gukina y'amoko atandukanye, hari iy'amaboko n'uw'amaguru, iruhande rwawo hakaba hari igikoresho gipima umutima uko uri gutera, mu iyo mipira hakaba hari utukura n'uw'umweru.

Umukobwa uri gukora siporo akaba yunamye yafashe ku mavi, yambaye isaha ku kaboko n'agakabutura k'umukara n'isengeri y'icyatsi kibisi, akaba yambaye agatambaro ku mutwe k'icyatsi kibisi.

Ibyatsi byinshi bifite ibibabi binini, ibyo byatsi bikaba bivamo imiti, bikaba ari imiravumba, bikaba bigiye bifite utubuto twinshi.

Ibinini byinshi birambitse ku kibabi, icyo kibabi kikaba ari kinini cyane k'icyatsi kibisi, kirambitse ahantu h'umweru, ibyo binini mo imbere yabyo hakaba harimo ifu isa n'ivu.

Umugore wambaye igitambaro cy'umweru mu mutwe, yambaye n'ikarita mu ijosi, imbere ye hakaba hari amacupa menshi atandukanye, hari afite imifuniko y'umweru n'andi afite imifuniko itukura, imbere ye hakaba hahagaze umugabo.

Iduka ririmo ibicuruzwa biri mu macupa n'ibiri mu makarito bitandukanye, bikaba bigiye bigerekeranye bimwe biri munsi, ibindi biri hejuru yabyo, bikaba harimo ibiri mu mabara y'umweru.

Amacupa atandukanye agiye agerekeranye, hakaba harimo akoze muri plastike n'ay'icyuma, mu ayo macupa hakaba hari arimo ubusa, n'arimo ibindi bintu, hakaba hari afite imifuniko y'umuhondo.

Amacupa atandukanye ateretse ku meza, inyuma y'ayo macupa hakaba hari inzuki, ku rundi ruhande hakaba hari icupa ririmo ubuki, hakaba hari n'indabo ziri iruhande y'ayo macupa.

Umuntu wicaye wambaye imyenda y'umweru yashyize amaboko ku meza, akaba afite agakarito mu kandi kaboko hakaba harimo ibinini, ako gakarito kakaba gafite ibara ry'umweru n'icyatsi kibisi.

Amacupa atandukanye ateretse ku meza hakaba, harimo irifite umufuniko w'umweru, iry'icyatsi kibisi andi ari umukara, rimwe rikaba ari icyatsi kibisi, iruhande rw'ayo macupa hakaba hari n'agakarito.